Abajyanama b'ubuhinzi bakangurira abahinzi bose gukoresha imiti itandukanye yifashishwa kugira ngo bice udukoko dushobora kuba twakgiza ibihingwa, bityo bibashe kuba byakura neza, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha iyi miti mu buhinzi kugira ngo tubashe kuba twabona umusaruro uhagije.

Abajyanama b'ubuhinzi, bagira inama abakora umwuga w'ubuhinzi kwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Byifashishwa mu gutera imiti ndetse no kuvomerera kugira babashe kubona umusaruro mwiza. Abahinga umuceri bashyiriweho abajyanama b'ubuhinzi, babafasha mu gutera imiti kugira ngo babashe kurinda uburwayi ibihingwa byabo.

Umuntu uhetse ipombo, akaba ari gutera umuti mu bihingwa by'umuceri, ikindi kandi abakora umwuga w'ubuhinzi bakabanezezwa no kuba bafite abajyanama b'ubuhinzi babaterera imiti mu bihingwa byabo, bibafasha kugira ngo babashe kuba babona umusaruro utubutse.

Abahinzi bahinga ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye by'umwihariko abahinga imboga, bifashisha uburyo butandukanye, bufasha kugira ngo babashe kuba batera imiti ku bihingwa byabo bityo babashe kuba babirinda, uburwayi ugiye butandukanye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi by'umwihariko abahinga umuceri banezezwa nuko kuba abajyanama b'ubuhinzi babageraho bakabasha kuba babaterera imiti kandi bakabagira inama ku buhinzi bwabo bibafasha kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije bityo babashe kwiteza imbere.

Abahinzi bakora ubuhinzi bitandukanye, bifashisha inzobere mu buhinzi kugira babashe kuba babaterera imiti itandukanye, ibasha kuba yakwica udukoko, tugaragara ku bihingwa byabo kugira ngo ibihingwa byabo bikure neza bityo babashe kwiteza imbere.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amafi banezezwa n'uko imirimo bakora ishobora kuba yabatunga, hamwe n'imiryango yabo ikindi kandi bashobora kuba basagurira amasoko kugira ngo babashe kuba babona amafaranga ashobora kuba yabafasha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango.

Abakora umwuga w'uburobyi batangaza ko imirimo bakora ibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko batunga imiryango yabo ikindi kandi bagasagurira n'amasoko bityo bakabasha kubona amafaranga, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kuba twakora imyuga itandukanye kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu gishobora kuba cyatunga abantu mu buryo bugiye butandukanye, ikindi kandi abasoroma ndetse n'abahinga icyayi babasha kuba babonamo akazi kagiye gatandukanye gashobora kuba kabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bitunze abaturarwanda, ikindi kandi icyayi gihingwa ku misozi igiye itandukanye y'u Rwanda, aho abagihinga ndetse n'abagisoroma kibasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko kibaha amafaranga.

Mu Rwanda ibihingwa ngengabukungu twavuga nk'icyayi. Gifasha abagihinga kugira ngo babone amafaranga kugira ngo biteze imbere. Ikindi kandi bavuga ko ubuhinzi bakora bwa buri munsi bubatunze hamwe n'imiryango yabo.

Bamwe mu bahinga ibihingwa ngengabukungu twavuga nk'ikawa, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, batangaza ko ubuhinzi bakora bwa buri munsi bubasha kubatunga kuko babasha kubona amafaranga, bityo bagatunga ingo zabo, bityo kandi bakaba banabasha kuba bakirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngengabukungu byiganjemo icyayi, batangaza ko ubuhinzi bakora bubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babasha kubona amafaranga, ikindi kandi aya mafaranga akabafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu gitunze abanyarwanda batandukanye, umuntu uri mu icyayi uri gusoroma, hirya ye hakaba hari agatebo ari gusoromeramo, ikindi kandi abahinzi bahinga icyayi banezezwa nuko babasha kuba babona amafaranga bityo bakabasha kwiteza imbere.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu gishobora gutunga abantu, baba abagihinga ndetse n'abagisoroma kuko gishobora kubatunga kibaha amafaranga, bityo bakabasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bitunze abantu babikora, abahinzi bahinga ikawa babanza kuyijonjora kugira ngo barebe iyaba yujuje ubuziranenge.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibihingwa ngengabukungu, banezezwa n'uko umurimo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, ubabasha kubatunga kuko babona amafaranga agiye atandukanye, bifashisha kugira ngo biteze imbere.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngengabukungu, twavuga ikawa ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, batangaza ko kuba babona umusaruro uhagije bibafasha kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabona amafaranga ahagije.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngengabukungu bitandukanye banezezwa n'uko ubuhinzi bakora bubasha kubatunga kandi bukaba bubaha amafaranga agiye atandukanye, ni byiza twese ko dusobanukirwa akamaro ko kuba twashora amafaranga muri ubu buhinzi kuko bibasha kuba byadutunga.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngengabukungu, urugero twavuga ikawa ndetse n'ibindi bitandukanye, bavuga ko umwuga w'ubuhinzi bakora ubateza imbere kuko babasha kubona amafaranga bityo, bagakemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango.

Abaganga batanga serivisi zo kuvura amatungo, bifashisha ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gukingira ndetse no kuvura inka, kugira ngo babashe kuba bazirinda kandi bazikingire indwara zigiye zitandukanye.

Abaganga b'amatungo banezezwa no kuba hari imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga izo serivisi ku bazikeneye, zibafasha kugira ngo babashe kuba batanga serivisi nziza kuko baba bafite imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara z'amatungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu kuvura ndetse no gukingira inka, ikindi kandi iyi miti ikaba ifasha kugira ngo ibashe kuba bakingira amatungo atandukanye, yaba amagufi n'amaremare, indwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura ndetse no gukingira amatungo indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi abaganga b'amatungo batangaza ko gukoresha miti y'ubwoko butandukanye bifasha kugira ngo amatungo abashe kuba yakingirwa indwara.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura ndetse no gukingira, inyamaswa zororwa cyangwa se amatungo. Ifasha kuba yazirinda indwara bityo, ibi umusaruro w'ibikomoka ku matungo ukaba wakwiyongera.

Imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa kugira ngo havurwe kandi hakingirwe amatungo yiganjemo inka ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye. Iyi miti yifashishwa kugira ngo habashe kuba hakingirwa kandi havurwe indwara zitandukanye z'amatungo.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse no kuyakingira, bikaba bifasha kugira ngo amatungo abashe kuba yatanga umusaruro uhagije ku borozi.

Abakora ubworozi bw'amatungo banezezwa no kuba hagaragara imiti itandukanye yifashishwa mu gukingira amatungo yabo bibafasha kugira ngo umusaruro w'ibikomoka ku matungo wiyongere, ikindi kandi iyi miti itandukanye yifashishwa kugira ngo abashe kuba bakingira amatungo yabo.

Abaganga b'amatungo batanga serivise zitandukanye ku borozi, aho babafasha amatungo yabo kuba yagira ubuzima bwiza, ikindi kandi bifashisha ibikoresho bitandukanye bifasha kugira ngo babashe kuba bakingira ndetse babashe kuba bagira ibirango bitandukanye, ku matungo yabo.

Igikoresho cyifashishwa mu kwambika amatungo ibirango bizwi nk'amaherena aho gifasha kugira babashe kuba bakambika amatungo ibirango ku matwi bityo babashe kuba bamenya imyirondoro y'ayo matungo.

Abakora ubworozi bw'inkoko bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo ubworozi bwabo bw'inko bubashe kuba bwagenda neza, harimo imiti igiye itandukanye ndetse n'ibyo bazigaburira kugira ngo zibashe kuba zakororoka.

Inzego z'umutekano zikangurira abaturarwanda gusobanukirwa akamaro ko gutera ibiti, kuko bidufasha kuba twabona imvura, ikindi kandi tukabyifashisha mu kubona inkwi ndetse n'ibindi bitandukanye buzima bwacu bwa buri munsi.

Abahinzi bahinga igihingwa cy'ibigori, banezezwa n'uko imirimo bakora ubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, ikindi kandi babyitaho babibagara kugira ngo bibashe kuba byatanga umusaruro uhagije.

Abahinzi bahinga igihingwa cy'umuceri banezezwa nuko umurimo bakora ubasha kubaha amafaranga kuko babasha kuba beza umuceri uhagije bityo bakabona uwo bakoresha mu ngo ikindi kandi bakaba basagurira amasoko kugira ngo babashe kubona amafaranga.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngandurarugo, twavuga nk'imboga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, batangaza ko imirimo bakora yabo ya buri munsi ibatunga, aho ibaha amafaranga agiye atandukanye, kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu karere ka Nyagatare, aborozi b'amatungo cyane cyane amatungo maremare inka, anezezwa no kuba bafite amakusanyirizo, aho bahuriza amata yabo, byabongereye umusaruro kuko babasha kwiteza imbere.

Abakora umwuga w'ubuhinzi banezezwa nuko kuba bakora umwuga w'ubuhinzi bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, bityo babone amafaranga kandi basagurire n'amasoko.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye cyane cyane ibyiganje mu bihingwa ngengwabukungu banezezwa nuko ubuhinzi bakora bubasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakabasha kubona amafaranga bakabasha kwitunga ndetse n'imiryango yabo.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha ababikora kugira babashe kuba bakihaza mu biribwa, ikindi kandi abahinzi banezerwa no kuba bakora ubuhinzi bw'ibigori bibasha kuba byabaha ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi birimo amafaranga.

Umubyeyi uri mu murima w'ibijumba ukenyeye igitenge ateruye umufuka, ikindi kandi imbere ye hari umurima usa n'udahinze.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, banezezwa n'uko imirimo yabo bakora buri munsi ishobora kubatunga, kandi ikabatungana n'imiryango. By'umwihariko abahinga ibihingwa ngandurarugo, banezezwa n'uko babasha kuba bakihaza mu biribwa, ikindi kandi bakaba basagurira amasoko.

Abantu bakora ubworozi bw'inka, bakaba bari gukama, bakaba kandi bari gukamira mu tudobo, ikindi kandi abakora ubworozi bw'inka banezezwa n'uko babasha kubona umusaruro w'amata ubafasha kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abahinzi bahinga ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye banezezwa nuko akazi bakora ka buri munsi kabasha kubaha amafaranga ikindi kandi kuba bafite ubuso bw'ubutaka buhagije babasha gukoreraho ubuhinzi bwabo ni kimwe mu bibafasha kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije.

Umuhinzi ukora ubuhinzi bw'imboga ari mu murima we, afite ibikoresho yifashisha birimo amabasi, isuka, ikindi kandi hirya y'umurima hari inyubako zitandukanye zimufasha mu zima bw'ubuhinzi bwe bwa buri munsi.

Abacuruzi bacuruza ibirayi batangaza ko ubucuruzi bw'ibirayi bubasha kubateza imbere bityo bakabona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bubasha kubaha amafaranga ahagije bityo bakabasha kubona ibyo bakeneye.

Abakangurambaga mu by'ubuhinzi bakangurira abahinzi borozi kugira ngo bajye bakora akazi kabo kinyamwuga kuko babahugura ku buryo baba bagomba gukora ubuhinzi bwabo, bityo kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bugiye butandukanye, banezezwa nuk'uko akazi bakora kabasha kubatunga mu buzima bwa buri munsi, aho babasha kubona amafaranga ashobora kuba yabafasha kugira ngo babashe kubona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubworozi bw'amatungo maremare yiganjemo inka, banezezwa no kuba bafite inzuri baragiramo zirimo ubwatsi, bibafasha kugira ngo umusaruro wabo w'ibikomoka ku matungo wiyongere, harimo amata ndetse no kubona amafaranga ahagije.

Abantu babiri bafite amasuka ku rutugu, bakaba bari iruhande rw'umurima w'umuceri utaruma, ikindi kandi muri uwo muceri hakaba harimo ibiti, abahinga umuceri bakaba banezezwa n'uko ushobora kuba wabatunga kuko bashobora no kubona amafaranga.

Abakora ubuhinzi bw'amashuri banezezwa n'uko akazi bakora kabasha kuba kabaha ibyo kurya aho babona imboga zo kurya ikindi kandi bagasagurira amasoko bityo bakabasha kubona amafaranga ashobora kuba yakifashishwa mu gukemura ibindi bibazo bitandukanye.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngandurarugo twavuga nk'abahinga imboga, nk'amashu ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, batangaza ko ubuhinzi bwabo bubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko babasha kubona ibyo bakoresha mu ngo ikindi kandi bagasagurira amasoko bakabasha kubona amafaranga.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye cyane cyane ibyiganje mu bihingwa ngandurarugo, banezezwa n'uko ubuhinzi bakora bwa buri munsi bubatunga ndetse n'imiryango yabo, ikindi kandi batangaza ko ibi bihingwa babigeza ku isoko bakaba babasha kubona amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Imbuto ndetse n'imboga, ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo byifashishwa n'abaturarwanda kugirango babashe kuba bagira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha ubu bwoko bw'izimbuto ndetse n'imboga kugira ngo abeho afite ubuzima bwiza.

Isombe ni kimwe mu bihingwa bifasha abaturarwanda kuba babona imboga, ikindi kandi iyo bakoresheje imboga bibafasha kuba bakirinda indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ni kimwe mu bifasha ababukora kugira iterambere aho babasha kubona ibyo kurya ikindi kandi bagasagurira amasoko bityo bakabona amafaranga ashobora kubafasha mu kwikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha ababihinga kugira babashe kuba bakihaza mu biribwa ikindi kandi abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibirayi batangaza ko babasha kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo biteze imbere.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngandurarugo urugero twavuga nk'abahinzi b'ibigori, bavuga ko ubuhinzi bakora bubasha kubatungana n'imiryango yabo, ikindi kandi bavuga ko bashobora kuba basagurira amasoko bakabasha kubona amafaranga ashobora kubafasha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango.

Abakora umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda banezezwa nuko umwuga bakora ubatunze, aho abahinga ibihingwa ngandurarugo babasha kubona amafaranga kandi bakabasha kuba byabatunga mu ngo bityo bakabasha kuba babaho bafite ubuzima bwiza.

Abahinzi bakora ubuhinzi butandukanye cyane cyane ubwiganjemo ibihingwa ngandurarugo, bavuga ko ubuhinzi bakora bubasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabasha kwiteza imbere kuko babona amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Bamwe mu bahinzi batandukanye by'umwihariko abahinga ibihingwa ngandurarugo cyane cyane abahinzi b'imyumbati, bavuga ko imirimo bakora ibafasha kuba babona ibyo kurya mu ngo, ikindi kandi bagasagurira amasoko kugira ngo babashe kuba babona amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye mu ngo iwabo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi cyane cyane abahinga ibihingwa ngandurarugo byiganjemo ibigori, banezezwa nuko kuba bareka ibigori byabo bikera neza bibafasha kugira ngo byumve neza bityo babashe kuba byabaha amafaranga babashe kwiteza imbere.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngandurarugo banezezwa n'uko imirimo bakora ibasha kubatunga kandi ikabatungira n'imiryango, ikindi kandi bavuga ko iyi myuga bakora ishobora kuba yabaha amafaranga bityo bakabaho bafite ubuzima bwiza.

Aborozi bakorera ubworozi bwabo mu bice bitandukanye, by'igihugu cyane cyane mu karere ka Nyagatare banezezwa no kuba bafite ahantu bakorera ubworozi bwabo, bufasha amatungo yabo yiganjemo inka kugira ngo abone ubwatsi bwo kuririsha, bityo babashe kubona umusaruro uhagije.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngandurarugo twavuga nk'ibishyimbo, batangaza ko ibishyimbo bahinga bibasha kubatunga ndetse bakaba basagurira amasoko bakabona amafaranga ashobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, burimo ibyatsi, ibiti ndetse n'indi bimera by'ubwoko butandukanye, hafi yaho hari akayira ndetse n'umusozi hakurya.

Ubwoko bw'ibidukikije burimo ibimera by'amoko atandukanye bikaba bifasha mu kugira ngo abantu babone byinshi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo kwivura bakoresheje ibimera ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashyamba ndetse n'urundi rusobe rw'ibidukikije bitandukanye ni kimwe mu bifasha abaturarwanda kuba babona imvura ikindi kandi ibi bidukikije ni bimwe mu bifasha abaturarwanda kuba babona ibikoresho bitandukanye, urugero inkwi ndetse n'ibiti byo kubakisha.

Ibidukikije byiganjemo amashyamba ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo ikindi kandi ibidukikije bidufasha mu gukurura imvura bityo tukagira ubuzima bwiza, ikindi kandi ibi bidukikije bishobora kuba byakifashishwa mu gutanga ibikoresho bitandukanye birimo inkwi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibidukikije biri mu ubwoko bugiye butandukanye, twavuga inyubako, ibiti ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye, bifasha kugira ngo abantu babashe kuba babona byinshi bakenera mu buzima bwabo birimo inkwi ndetse n'ibindi bijye bitandukanye.

Ibimera by'ubwoko butandukanye birimo ibiti, insina ndetse n'ibyatsi bifasha abantu kuba babona byinshi bitandukanye bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere.

Amashyamba ndetse n'urundi rusabe rw'ibidukikije bitandukanye, bigira umumaro munini. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kurengera ibidukikije, kuko bidufasha kubona imvura, ikindi kandi ibidukikije ni isoko y'ibyo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, urugero nk'ibiryo, imbuto, ndetse n'ibyo gucana.

Ibibaya byifashishwa mu bworozi, aho usanga hari ubwoko bw'ibimera bitandukanye by'umwihariko ibyatsi, aho usanga abashumba bagiramo, bityo ubworozi bwabo bukagenda neza, kuko amatungo yabo ashobora kubona ubwatsi buhagije.

Abakora ubuhinzi butandukanye bwiganjemo imboga banezezwa nuko babasha kuba babona amafaranga abasha kubatunga aturutse muri ubu buhinzi bwabo bityo bakabasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Bamwe mu bahinzi bahinga ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye banezezwa n'uko akazi bakora kabasha kuba kabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko babona amafaranga ikindi kandi bagasagurira amasoko, bityo n'abandi baturarwanda bose bakaba babona ibyo bakeneye.

Abakora umwuga wo guhinga indabo, banezezwa nuko indabo bahinga zibasha kuba zabafasha kubona amafaranga bityo bakabasha kwikenura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko guhinga indabo kuko zibasha gutanga amafaranga.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto by'umwihariko imyembe ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye bijyanye n'imbuto ,banezezwa n'uko ubuhinzi bakora bubasha kubatunga bityo bakasha kuba bakitunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abahinzi bahinga ubwoko bw'imboga butandukanye banezezwa n'uko imirimo bakora ibasha kubatunga, ikindi kandi ikabaha amafaranga agiye atandukanye, ikindi kandi ubwoko bw'imboga bahinga bubafasha mu ngo aho babasha kuba barya bityo bakaba banasagurira amasoko.

Ibitunguru ni kimwe mu bihingwa bitunze abanyarwanda benshi, kuko abakora ubu buhinzi bibasha kuba byabatunga, ikindi kandi basagurira amasoko bakabasha kubabona amafaranga abafasha mu byo bakeneye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga banezwa n'uko umurimo bakora ushobora kubabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bafasha abantu kubona imbuto zibafasha kugira ngo babashe kuba bahinga neza imboga zitandukanye ikindi kandi bakanezezwa n'uko babona amafaranga.

Abakora ubworozi bw'imbuto, banezezwa n'uko umurimo bakora ubasha kubatunga, kuko babasha kubona amafaranga ashobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakabona ibyo bakeneye mu buzima.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu kuvomerera imyaka bufasha kugira ngo habashe kuba bavomerera imyaka bityo babashe kuba bayirinda izuba ikindi kandi ubu buryo bushobora kuba bwarinda imyaka kwicwa n'izuba.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga bifashisha uburyo butandukanye mu kuvomerera mu gihe cy'impeshyi, bamwe hari hari abifashisha amarozwari kugira ngo babashe kuba bavomerera imboga baba bahinze kugira ngo zibashe kubaha umusaruro.

MU gihe k'impeshyi abahinzi bifashisha uburyo butandukanye, kugira ngovomererere ibihingwa byabo Ni byiza ko buri muhinzi wese asobanukirwa akamaro ko kuba yavomerera imyaka ye kugira ngo ibashe kuba itagerwaho n'izuba, bityo abashe kubona umusaruro mwiza.

Abahinzi bakoresha uburyo butandukanye mu kuhira imyaka yabo mu gihe k'impeshyi kugira ngo bayirinde izuba ikindi kandi ubu buryo bwifashishwa mu kugira ngo babashe kuba barengera ibidukikije kuko bitabasha kubyangiza.

Abahinzi bahinga ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye, bifashisha uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga bubafasha kugira ngo buhire imyaka yabo mu gihe cy'impeshyi, bityo babashe kuba barinda izuba, bityo babashe kuba babona umusaruro uhagije.

Abahinzi bifashisha uburyo butandukanye mu kuhira imyaka yabo, aho bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuba bavomerera imyaka yabo kugira ngo mu gihe cy'impeshyi, ibashe kuba bayinda izuba.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu kuhira imyaka, bufasha abahinzi kuba bavomerera imyaka yabo mu gihe cy'impeshyi bityo kugira ngo bayirinde izuba maze umusaruro wabo ube mwinshi, babashe kwihaza mu biribwa.

Abahinzi batandukanye bifashisha uburyo butandukanye mu kuhira imyaka yabo mu gihe cy'impeshyi kugira ngo babashe kuba babona umusaruro, bityo babashe kuba bakihaza mu biribwa, maze babone n'uko basagurira amasoko.

Uburyo bwifashishwa mu kuvomerera ndetse no kuhira imyaka, abakora umwuga w'ubuhinzi bifashisha uburyo butandukanye, bubafasha kugira ngo babashe kuba bakuhira imyaka yabo bityo babashe kuba babona umusaruro uhagije.

Umugabo uri mu murima w'ibigori akaba ari kuvomererera yifashishije uburyo bugezweho aho yakoresheje itiyo isohora amazi bityo akabasha kugera mu murima hose.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, cyane cyane abahinzi bahinga insina, mu gihe cy'impeshyi bakoresha uburyo butandukanye bwo kuhira insina kugira ngo zibashe kuba bazakora neza, ikindi kandi zibahe umusaruro uhagije.

Abahinzi bakoresha uburyo butandukanye mu kuhira imyaka yabo, cyane cyane abakorera ubuhinzi bwabo mu bibaya ndetse no mu tubande, bifashisha amazi yabo kugira babashe kuba bakuhira imyaka yabo mu gihe cy'impeshyi, kugira ngo bayirinde izuba ryinshi.

Abakora umwuga w'ubworozi banezezwa n'uko kuba mu bice bitandukanye by'iguhugu hari inzuri zifashishwa kugira ngo inka zabo zibashe kuba zabona ubwatsi, bibafasha kugira babashe kuba babona umukamamo uhagije ndetse ubworozi bwabo bubashe kuba bwagenda neza.

Hirya no hino mu gihugu, imisozi yaciweho amaterasi yifashishwa kugira ngo harindwe isuri ishobora kuba yatwara ubutaka, ikindi kandi aya materasi ahingwaho ibihingwa bitandukanye byifashishwa kugira ngo babe babasha kubona ibyo kurya.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibidukikije bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'ibyatsi, hakurya hirya hakaba hari ikiyaga ndetse hakaba hanarambije kugira ngo abagana aha hantu babashe kuba bakishima.

Mu Rwanda, ibice bitandukanye by'igihugu bifite ibibaya aho usanga hari ibidukikije bitandukanye, twavuga nk'ibiti ndetse n'ubundi bwoko butandukanye bw'ibimera, bifasha abantu kugira babashe kuba babona ikirere cyiza kandi babonemo n'ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibidukikije bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'imisozi, ikindi kandi ibi bibaya bikaba byifashishwa nk'inzuri kugira ngo bibashe kuba byatanga ubwatsi.

Ibidukikije bitandukanye birimo ibibaya, amashyamba, ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye, ni bimwe mu bifasha abaturarwanda kubona byinshi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko bishobora gukorerwaho ubuhinzi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Ibidukikije bitandukanye byiganjemo ibiyaga ndetse n'imigezi, bidufasha kugirango tubashe kuba twabona imvura ku gihe, ikindi kandi ibi bidukikije bifasha Abaturarwanda kuba babona ibikoresho bitandukanye nk'amazi, ndetse n'imiti yifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Bamwe mu borozi banezezwa n'uko kuba hari ibibaya bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba babona ubwatsi bw'amatungo, bibafasha kugira ngo umwuga w'ubworozi wabo ugende neza, ikindi kandi ni byiza ko tuba tugomba kurengera ibidukikije kuko byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye y'ubworozi.

Mu Rwanda hari ibiyaga bitandukanye byifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye, ibyo biyaga byifashishwa mu gukora ingendo zitandukanye ikindi kandi ibi biyaga biduha amazi twifashisha mu gukora amasuku mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo tukayifashisha tunabona byinshi bitandukanye mu buzima.

Igihugu cy'u Rwanda kigira ibyiza nyaburanga bitandukanye bimwe muri byo twavuga: ibibaya, aho usanga amazi y'ibiyaga ndetse n'imisozi bikurura ba mukerarugendo, bashobora kubisura bityo bakaba basigira amadovize Igihugu cy'u Rwanda kikabasha gutera imbere.

Abakora ubworozi bw'amatungo cyane cyane aborozi b'inka banezezwa no kuba bafite inzuri zihagije zirimo ubwatsi aho babasha kuragira amatungo yabo bibafasha kugira ngo babashe kuba babona umusaruro uhagije w'ibikomoka ku matungo.

Abakora ubworozi bw'imisambi banezezwa nuko ubworozi bakora bubasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babasha kubona ibikomoka ku matungo ndetse bakabasha no kuba basagurira amasoko bakabona amafaranga.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi twavuga nk'ihene batangaza ko umurimo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi ishobora kubatunga kuko babasha kubona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi ikindi kandi ubworozi bakora bubasha kubaha amafaranga bityo bagatunga imiryango yabo.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'ingurube banezezwa n'uko akazi bakora bagakora kinyamwuga bityo bakabasha kuba bakiteza imbere mu gihe gito, ikindi kandi bavuga ko ingurube ari itungo ryororoka bityo rikaba ribasha kuba ryabateza imbere mu gihe gito cyane.

Ihene ziri kurisha mu byatsi by'ubwoko butandukanye, ikindi kandi, ihene akaba ari ubwoko bw'amatungo magufi butunze abanyarwanda benshi kugirango babashe kuba babona amafaranga ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubworozi bw'ingurube bukozwe kijyambere, aho bubaka ibiraro bigezweho ikindi kandi bakorora ingurube za kizungu, bifasha ababukora kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko babasha kubona amafaranga ahagije.

Inyana iri mu kiraro iri kurisha ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye bibifasha kugira ngo habe haboneka umusaruro uhagije ku matungo.

Ubworozi bw'ihene ni kimwe mu bitunze abantu benshi, ikindi kandi abakora uyu mwuga wokorera ubworozi bw'ihene banezwa no kuba bafite ahantu hahagije ho korora, aho babasha kubona urwuri, kubafasha kugira ngo ubworozi bwabo butere imbere.

Aborozi bakora ubworozi bw'inka banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo birimo ibiraro, ndetse n'uburiro bufasha kugira ngo inka zibone ubwatsi, bibafasha kugira ngo ubworozi bwabo bugende neza.

Inka nyinshi ziri kurisha mu rwuri rurimo ibyatsi byinshi, ikindi kandi muri urwo rwuri hakaba harimo ibiti birebire. Abakora ubworozi bw'amatungo maremare banezezwa n'uko umurimo bakora ushobora kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Uburyo bugezweho bwifashishwa mu korora inkoko, ni bimwe mu bifasha abakora uyu mwuga kuba bakiteza imbere, kuko bibasha kuba byabafasha kubona amafaranga mu gihe gito kandi mu gihe cyihuse.

Abakora ubworozi bw'ihene banezezwa no kuba baba bafite inzuri, aho babasha kuziragira bityo zikabasha kubona ubwatsi bibafasha kugira ngo babashe kuba babona umusaruro uhagije, kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Abakora ubworozi bw'inkoko bifashisha uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuba bakurikirana inkoko zabo borora aho bazifasha kugira ngo zibone ibyo zirya ndetse n'ibyo zinywa.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko banezezwa nuko imirimo bakora ibasha kuba yabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babasha kubona amagi ikindi kandi bakabasha kuba babona amafaranga ashobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umushumba uragiye inka ari mu rwuri, muri urwo rwuri hari ubwatsi bw'ubwoko butandukanye ikindi kandi hari n'ibindi bimera by'amoko menshi, umushumba yambaye umwenda w'umutuku ndetse n'ipantaro y'igikara.

Inka iri mu kiraro imbere yayo hari ubwatsi ikindi kandi abakora ubworozi bw'inka banezezwa nuko babasha kubona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo.

Abakora ubworozi bw'inka banezezwa no kuko baba babasha kubona ibyo bazigaburira ndetse n'ibyo baziha kugira ngo zinywe bibafasha kugira babashe kuba babona umusaruro uhagije, bityo babashe kwiteza imbere murimo bakora w'ubworozi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi cyane cyane ubuhinzi bwiganjemo ibinyampeke banezezwa n'uko umusaruro wabo ubasha kuba wabafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko basagurira amasoko bakabasha kuba babona amafaranga abafasha kwikenura mu buzima bwabo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bwiganjemo ibihingwa ngandurarugo, cyane cyane abahinga ibigori ndetse n'ibindi bikomoka ku mpeke, banezezwa n'uko ubuhinzi bakora bubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabasha kwiteza imbere.

Abakozi bakora mu buhinzi bw'imbuto bugiye butandukanye banezezwa no kuba bafite ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'inyubako zigezweho bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora umusaruro bibasha kuba byabafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi cyane cyane abahinga ibihingwa ngandurarugo byiganjemo ibinyampeke ndetse n'imbuto, banezezwa n'uko umusaruro babasha kubona ubafasha mu kwiteza imbere muzima bwabo bwa buri munsi kuko basagurira n'amasoko bakabasha kubona amafaranga.

Imbuto y'ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo byifashishwa mu ngo zitandukanye kugira ngo abantu babashe kuba barya. Ikindi kandi abahinga ibi bishyimbo, batangaza ko babasha kuba babona amafaranga byifashishwa kugira ngo babashe kuba bakikenura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kinini gipakiyemo imifuka myinshi irimo ubwoko bw'imbuto, ikindi kandi muri icyo cyumba hakaba hahagaze umuntu. Abakora ubuhinzi bw'imbuto banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga, kuko babasha gusarura umusaruro uhagije.

Abahinga ibihingwa bitandukanye by'umwihariko ibinyampeke, banezezwa n'uko umurimo bakora ushobora kuba wabatunga, ikindi kandi bavuga ko umwuga bakora w'ubuhinzi ushobora kuba wabaha buri kimwe cyose bakenera kuko babasha kubona amafunguro, ikindi kandi bagasagurira amasoko bakaba babona amafaranga.

Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kuba bakingira indwara zitandukanye amatungo ikindi kandi bimwe muri ibyo bikoresho bibafasha kugira abashe kuba batwara imiti ubashe kuba bayigiza mu bice bitandukanye bityo babashe kuba bakingira amatungo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda haba abaganga b'amatungo bagiye batandukanye, aho bafasha aborozi kugira ngo babakingirire amatungo yabo, amwe muri amatungo bakingira twavuga inka, ndetse n'ubundi bwoko bw'amatungo butandukanye kugira ngo bazikingire indwara zitandukanye.

Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo bajye babasha kuba bafasha aborozi mu gukingira ndetse no kuvura inka, aho ibyo bikoresho bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza ku bazikeneye.

Abaganga b'amatungo, bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuba bavura inyamaswa zitandukanye, bityo bazirindade indwara. Ni byiza ko buri munyarwanda wese woroye ashobora kubayahamagara abavuzi kugira ngo babashe kuba bakingira kandi bavure amatungo ye indwara zigiye zitandukanye.

Abaganga batanga serivisi zo gukingira ndetse no kuvura amatungo, bita ku matungo kugira ngo babashe kuba bayakingira kandi bavure indwara zitandukanye, ikindi kandi aborozi borora aya matungo yiganjemo inka, banezezwa n'uko bashyiriweho abaganga babafasha kugira ngo ubworozi bwabo bugende neza.

Abaganga b'amatungo bafasha kugira ngo bakingire kandi bavure ubwoko bw'amatungo bagiye butandukanye, amwe muri ayo matungo twavuga, inka ndetse n'andi matungo magufi agiye atandukanye, aho babasha kuba bayakingira bityo akabaho adafite indwara.

Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bashe kuba bakingira inyamaswa bityo ikindi kandi inyamaswa ziba zakomeretse babasha kuba bazivura bityo kugira ngo nazo zirengerwe zigire ubuzima.

Abaganga b'amatungo bafasha abakora umwuga w'ubworozi; kugira ngo babashe kuba bagenzura ubworozi bwabo by'umwihariko babafasha mu kubyaza amatungo yabo kugira ngo abe atahura n'ibibazo bitandukanye mu gihe barimo bayabyaza.

Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuba bavura kandi bakingire indwara amatungo, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga: ishinge, ama ga bambara ndetse n'imyambaro yabugenewe, kugira babashe kuba bakirinda.

Intare iryamye hasi irasamye hirya yayo hari ubwoko bw'ibyatsi bigiye bitandukanye, bigaragara ko iyi ntare iryamye itegereje ibyo kurya.

Inzovu ni inyamaswa z'agasozi zikurura ba mukerarugendo baza kuzisura bakishyura amadovize. Kuko usanga inyamaswa z'agasozi ziba mu mashyamba agiye zitandukanye. Bityo, zikabasha kuba zarisha ubwatsi.

Buri muturarwanda wese agomba gusobanukirwa akamaro ko kurengera urusobe rw'ibinbuzima bitandukanye, by'umwihariko inyamaswa z'agasozi, kuko zishobora kuba zakurura ba mukerarugendo, bityo bakaba bakishyura amadovize, maze tukabasha gutera imbere.

Inyamaswa z'agasozi twavuga nk'inyoni zikurura ba mukerarugendo bashobora kwishyura amadofize bityo igihugu kikabasha guteza imbere, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera urusobe rw'ibinyabuzima kuko bibasha gutunga kandi bigakorera ba mukerarugendo.

Imisambi ni ubwoko bw'inyoni, aho zibarizwa mu nyamaswa z'agasozi bityo zikaba zishobora gukurura ba mukerarugendo kugira ngo babashe kuba bakishyura amadovize bityo u Rwanda rushobore kuba rwatera imbere.

Inyamaswa zitandukanye z'agasozi urugero nk'amadubu ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo kugira ngo bishyure amadavize bityo igihugu kibashe gutera imbere, ni byiza ko buri wese arengengera izi nyamaswa kuko zidufasha mu rugendo rw'iterambere.

Imisambi ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi zibarizwa mu biguruka, zikaba zikunze kubarirwa mu bidukikije, aho zishobora kuba zakorerara ba mukerarugendo baza kuzisura kugira ngo babashe kuba bakishyura amadovize, bityo u Rwanda rubashe gutera imbere.

Ibidukikije ni kimwe mu bidufasha kugira ngo tubashe kuba tubona byinshi dukeneye mu buzima, kimwe mu bidukije twavuga imisozi yiganjemo amashyamba, ndetse aya mashyamba akaba atuwemo n'inyamaswa zitandukanye z'agasozi, zidufasha kugira ngo tubone ba mukerarugendo.

Inyamanswa z'agasozi ni kimwe mu bidukikije aho ushobora gusanga zikurura ba mukerarugendo bashobora kwishyura amadovize mu Rwanda, ikindi kandi izi nyamaswa zishobora kuba zateza umutekano muke mu gihugu niyo mpamvu ziba zarashyiriweho inzitiro kugira ngo zibashe kuba zaguma aho bazubakiye.